Turi kubona imbere yacu banderore yanditseho amagambo y'ubukangurambaga bwo kubaho neza twite ku buzima bwo mu mutwe, ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe ubuzima bwo mu mutwe ni isoko yo kubaho neza. Ndura akanyezo GS Shango kuri eshatu ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatatu, ku bufatanye bw'imbuto fondesheni.

Uturindantoki tw'umweru umuntu yambara kugira ngo yirinde icyaba cyamukomeretsa cyangwa se kuba yarinda abandi kuba yaba yabanduza ikintu runaka, zikaba zifashishwa rero ahantu hagiye hatandukanye nko kwa muganga n'ahandi hantu, uwaba ari kuvura cyangwa se hari ibindi arimo bikaba byamurinda nawe akaba yabasha kurinda abandi.